Aha ni ahakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba harimo ibicuruzwa, hari udufuka turi ku muryango, hakaba utubido turimo imbere ndetse hateretsemo na firigo ikonjesha ibinyobwa.

Aba ni abagabo batatu bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku, hakaba harimo uturongo tw'umweru ndetse n'ubururu, aba bagabo bose bakorera sosiyete y'itumanaho izwi hano mu Rwanda nka Airtel.

Ahari kugaragara ruhurura iri kubakwa, hateretse akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho ukeneye kubitsa cyangwa kubikuza ubagana, bakakubikira cyangwa se bakakubibikurira ku gihe.

Aha hari akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN, ikorera hano mu Rwanda. Turi kuhabona abagabo babiri baje gusaba serivisi. Umukozi urimo imbere muri ako kazu nawe ari kubakirana yombi.

Umukobwa uhagaze mu kazu k'ikigo cy'igihugu cya sosiyete icuruza ibijyanye n'itumanaho ikorera mu rwanda izwi nka MTN Rwanda, hakaba hari abantu baje gushaka serivisi zigiye zitandukanye akaba ari kubafasha.

Uyu ni umumotari waparitse moto yiwe ahantu bigaragara ko ari imbere y'urugo mu cyaro, yambaye kasike mu mutwe ahagaze imbere ya moto, hakaba hari igikuta cyubakishije amatafari y'ibyondo, kiriho icyapa cya sosiyete y'itumanaho gikorera mu Rwanda kizwi nka Airtel.

Ahabereye ibikorwa by'ubukangurambaga, hari kugaragara abantu benshi cyane, bitabiriye iki gikorwa, hari umuma wambaye ishati itukura ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gusobanurira abantu.

Aha ni ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye, haba iza banki ndetse n'iz'irembo, aho umuntu ukeneye kwishyura amazi, umuriro ndetse n'ibindi, abagana bakamufasha, maze ikibazo cye kigakemuka nta ngorane.

Umupapa n'umumama bafite icyapa, iki cyapa kikaba kiri kwamamaza banki, iyi ni Banki ya Kigali, aho ikorana n'abahinzi ikabaha inguzanyo bityo bakiteza imbere.

Aha ni ahatangirwa serivisi z'amabanki ndetse n'amakoperative, ndi kubona abagabo bari kwaka serivisi ndetse bakaba bari no kuyihabwa, si bo gusa kuko inyuma yabo, hicaye n'abandi bantu nabo bategereje kugerwaho.

Bamwe mu bakorana n'ibigo by'amabanki ndetse n'amashyirahamwe y'abikorera, bagira imirimo myinshi kandi bakagira n'inyungu, aha hari imodoka iri gupakurura imifuka irimo ibiribwa bigiye bitandukanye byaguzwe n'amakoperative.

Aba ni abaturage babyukiye ku bigo by'imari biciriritse bakaba bari gusobanurirwa ibijyanye n'amabanki ndetse n'amakoperative mu rwego kugira ngo bishyire hamwe, baguze amafaranga maze bagende biteza imbere.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye nk'iz'amabanki ndetse n'amashyirahamwe, aho amashyirahamwe agana amabanki akabaha inguzanyo maze bagakora imishinga bakiteza imbere.

Amabanki ndetse n'amakoperative usanga bakorana, ibi bigatuma abahinzi bagana ibigo by'imari bagahabwa inguzanyo maze bakishyira hamwe bagakora ibikorwa byabo nta nkomyi.

Uyu ni umugabo ufite indangururamajwi akaba ahagaze imbere y'abantu, ari kubasobanurira ibyiza byo gukorana hagati y'amabanki n'amakoperative, akabasobanurira ko bituma babona amafaranga yo gushora.

Ibicupa ry'umuhondo ndetse bifite n'imipfundikizo minini cyane y'umuhondo, kuri buri gicupa hakaba hariho akapa kagaragaza izina ry'ibiriri muri aka gacupa ndetse n'uko bikoreshwa. Ibi bikaba bigaragaza yuko amakoperative yahawe inguzanyo n'amabanki kugira ngo abone uburyo yiteza imbere.

Aha ni ahabera isoko, hakaba hari amazu menshi cyane y'ubucuruzi, turi kubona igare riparitse ku giti, iri gare ririho amakaziye menshi cyane avamo ibyo kunywa, bigaragara ko ari umunyonzi warihaparitse.

Aka ni akabari kagezweho, harimo intebe nziza cyane, hakaba hari abagabo babiri bicaye, bose bafite ibyo kunywa, imbere yabo mu kabari hari kugaragaramo akabati gateretsemo ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, muri iri duka hapanzemo ibipipiri byinshi cyane ndetse n'ubujerekani burimo amavuta yo guteka, hakaba harimo ibikapu bicuruzwa amakaroni ndetse n'ibindi.

Aya ni amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda y'abamama ndetse n'ibitenge, bagacuruza inzitiramibu, imikeka ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye aho ushaka guhaha wahagana.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, tukaba turi kubonamo uburoso bw'amenyo bukoreshwa mu gihe cyo kuyoza ndetse tukabona n'uducupa tugiye turimo amavuta, aya mavuta akaba ari ay'ubwoko bugiye butandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi buciriritse, hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, haba imbuto, ibitunguru, ibirayi ndetse n'urusenda, harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwihahira ibyo bakeneye.

Iyi ni inyubako y'urusengero hakaba harimo amadirishya y'umweru, yubakishije amatafari arahiye ndetse hariho n'umusaraba, umusaraba ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ari urusengero rw'abakirisitu aho bemera Yezu Kirisito nk'umwana w'Imana.

Urusengero rwiza cyane rwubatswe mu buryo bugezweho, rukaba rwubakishije amatafari ahiye rusakaje amabati. Hejuru hakaba hariho umusaraba, imbere y'urwo rusengero hari abantu batonze umurongo bakaba bari kubinjiza mu buryo bwiza cyane kugira ngo hatagira ukora ku wundi.

Aba ni abantu bahagaze mu rusengero, bakaba bari kuririmba indirimbo zo guhimbaza ndetse no kuramya Imana, imbere yabo hahagaze umusore wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, akaba afite indangururamajwi kandi ari we uri gutera abamuri inyuma bakikiriza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gusenga, hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, yicaye ku ntebe ya palasitike ari gusingiza Imana, ayisaba kubona umugisha.

Aha ni mu rusengero abakirisitu bicaye mu itete imbere yabo hari umumama wambaye ijipo ndetse n'ikoti, afite indangururamajwi mu ntoki akaba ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Aba ni abantu bari mu rusengero, bakaba bari gusenga bose barakurikiye, bazamuye ibiganza, bari gusingiza imana, bayihimbaza ndetse banayiramya. Ni byiza gukunda imana ndetse no kuyikorera.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu rusengero bari gusenga. Imbere yabo ku ruhimbi hahagaze abari kuba bariririmbira indirimbo maze na bo bakazamura amaboko bagira bati" icyubahiro ni icy'Imana".

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku rusengero, aba bantu bakaba baje, baje mu minsi mikuru, ni benshi cyane ku buryo badashobora gukwirwa muri uru rusengero, ahubwo byabaye ngombwa ko bateranira hanze kugira ngo ibintu byorohe.

Iyi ni inyubako ya hoteli itangirwamo serivise zigiye zitandukanye, aho usanga harimo abaza bashaka amafunguro, hakaba harimo abaza bashaka aho kurara ndetse n'abaza baje koga amazi meza ahaba.

Iyi ni nyubako ya hoteli, ikaba igaragaramo amafunguro meza cyane ndetse n'imbuto biteguranye ubuhanga, abagana amahoteli, bayashimira ko akora ibintu bizima kabone n'ubwo babihenda.

Ikibaya cyiza cyane kigaragaramo amazi meza azengurutswe n'inzira isashemo amapave, hakaba uturarobyo twiza, aha ni ahari hoteli iri ahantu mu kibaya, iyi hoteli ikunze gusohokerwamo n'abantu benshi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse inshuro enye, isize amarangi y'umuhondo, ikaba iriho ibirahuri byiza cyane by'umukara, si byo gusa imbere y'inyubako hari indabyo nziza zituma abahagana bahishimira.

Ni inyubako nziza cyane, inyubako ya hotel, muri iyi hoteli hagaragaramo ibyumba byiza bifite utubati, bakagera ahari amazi ushobora kwifashisha mu gihe uyakeneye ndetse si ibyo gusa kuko batanga serivisi zose zishoboka.

Iyi nyubako nziza cyane yubatse ahantu bigaragara nk'aho ari ku mazi, iyi nyubako igeretse inshuro eshatu, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane imbere yayo, aho abayigana ibacumbikira maze bakitemberera imbere y'aya mazi.

Iyi ni inyubako ya hoteri. Ni inyubako yubatswe neza, ikaba isize irangi ry'umweru ku nkuta. Isakaje amategura hakaba hari ubusitani bwiza cyane buyizengurutse, aho ushobora kuza bakakwakira neza maze ukanezerwa.

Aya ni amafunguro meza cyane aboneka mu mahoteli agiye atandukanye, ibi bituma abagana amahoteli, bishimira serivisi bahabwa ndetse n'amafunguro kuko aba ateguranye ubuhanga, ibi bikabatera akanyamuneza ndetse bagahora bishimye.

Iyi ni inyubako ya hoteli igereretse inshuro eshatu, munsi hakaba hari imitaka ibiri irazinze undi umwe urarambuwe, imbere ya buri mutaka hari intebe ndetse n'ameza, hakaba hari n'amazi meza cyane y'urubogobogo ushobora kogeramo.

Iki ni icyumba cya hoteli cyiza cyane kikaba kirimo uburiri busashe neza, amarido meza cyane, aho uwaharaye arara neza bityo akazishimira kugaruka kongera kuhasura.

Icyumba cyiza cyane cya hoteli kirimo igitanda, kiriho matera isashe neza, aha hakaba hariho imitego ibiri, hari amarido meza, akaba akabati uraye muri iki cyumba ashyiramo ibintu bye, ibi bigatuma arara atekanye.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteli, ikaba yakira abantu b'ingeri zose, haba abakerarugendo, abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose, aho harimo ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahagana.

Hirya no hino mu mahoteli ukunze gusanga, hari ibitanda byiza cyane biba bisasheho amashuka meza, bikabaho imisego. Muri ibyo byumba kandi usangamo utubati intebe n'ibindi. Ibi bigatuma abagana amahoteli babyishimira.

Iyi ni hoteli nziza cyane, aha hakaba hari imitaka ushobora kuganiriramo n'umuntu mwasohoka waba wazanye n'umuryango cyangwa n'inshuti yawe hari amazi meza ushobora koga, hakaba n'ubusitani butanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hotel ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari aho bakirira abakiriya ndetse harimo intebe n'ameza byiza cyane, hakabamo n'uturababyo dutuma abahagana bahishimira ku rwego rwo hejuru.

Iyi ni hoteri nziza cyane ikaba itegura amafunguro ku buryo bugezweho uramutse ugannye iyi hoteri baguha amafunguro atetswe ku buryo uhora uharota kuhagaruka ndetse ukahazana n'abawe.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteli ikaba yubakishije inkuta nziza cyane ziriho amarange, iy'umuhondo ndetse n'iry'umuhondo werurutse, hakaba hariho agakarara gake, iyi nyubako itangirwamo serivisi nziza cyane kandi zigiye zitandukanye.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteli ikaba irimo intebe nziza cyane z'imitego, hari akameza kariho ururabyo ruri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, iyi hoteli iyo uyiganye iguha serivisi zituma utazasubira ahandi.

Iyi ni nyubako nziza ya hotel, aho muri iyi nyubako usanga habamo intebe nziza cyane ushobora kwiyicaramo mu gihe utegereje ukwakira. Si ibyo gusa kuko habamo n'ushinzwe umutekano ugerageza kuyobora abantu ndetse kandi akabarindira n'umutekano.

Aha ni muri hoteli aho bakirana ababaganye yombi, bakabaha amafunguro meza cyane ateguye neza, aya mafunguro atuma uwayariye yishimira kuzagaruka aha hantu.

Aha ni mu isoko riciriritse hakaba hari kugaragara udutanda turiho ibicuruzwa bigiye bitandukanye, si ibyo gusa kuko imbere yabo hari imifuka myinshi cyane ihatondetse, hari kugaragara umugabo uri gucuruza aho ari kugenda akura ibintu mu ikarito abishyira hasi.

Aha, ni ahari isoko ryo ku muhanda, muri iri soko, hagaragaramo ahacururizwa imyenda yaba iy'abana, iy'aba mama ndetse n'iy'aba papa. Tukabona n'ibitenge byiza cyane bimanitse ku rukuta.

Aha ni mu isoko rusange, hakaba harimo abantu benshi cyane, urujya n'uruza rw'abantu, haba bacuruzi, abaguzi ndetse n'abandi bantu bari gutambukamo nta n'icyo baje kurebamo, mu isoko hirya no hino, usanga ibyo bihagaragara.

Abamama bateraniye ahantu hamwe, aha ni mu isoko ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, abamama bavuye guhaha kuko umwe afite igikapu kinini bigaragara ko kirimo ibintu yahashye, abamama bishimira kuba hano hantu haboneka isoko.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'amagare ndetse n'imodoka. Harimo umunyegari utwaye igare uhetse amajerekani abiri ndetse hakabamo n'utwaye imodoka y'umukara, imbere yiwe hari urwaye igare uhetse umuntu.

Uyu ni umugabo utwaye ikinyabiziga, atwaye imodokari nziza cyane afashe kuri vora ndetse afashe n'akuma kagabanya umuriro ndetse n'umuvuduko, abatwazi b'ibinyabiziga bakwiye kwitwararika mu rwego rwo kugira ngo hirindwe impanuka zo mu muhanda.

Aba ni abamotari babiri bari mu muhanda wa kaburimbo bose bakaba bari mu kerekezo kimwe, hakurya y'umuhanda wa kaburimbo hari isambu ihinzemo ibihingwa ndetse hakaba harimo n'ipironi ijyana umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Uyu ni umukobwa wambaye ikoti ry'umukara ndetse ni'pantaro y'ubururu, yambaye uturindantoki tw'umukara, yegamiye moto bigaragara ko nawe ari umwe mu bamotari b'aba mama kuko muri iyi minsi abamama nabo batagihezwa mu mirimo iyo ari yo yose.

Uyu ni umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo, nta kindi kinyabiziga kirimo ari kugendera mu muhanda rwagati ahetse udukarito ndetse afashe n'ingofero iri guha umugenzi mu ntoki ze, bigaragara ko iyi karito hari ahantu ayijyanye.

uru ni urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, bari mu muhanda wa kaburimbo, imbere hakaba hari imodoka iri mu ibara ry'ubururu, inyuma ikurikiwe na moto ebyiri, izi moto ebyiri imwe ihetse umugenzi indi nta mugenzi ifite.

Umupapa ndetse n'umwana we, bakaba bari kukinyabiziga cya moto, aho bari kureba ikibazo cyagize, umwana ari kurebamo n'umupapa akarebabamo, maze akagenda afunga buro zimwe na zimwe mu rwego kugirango ngo yirinde kuba yaza gukora impanuka.

Uyu ni umugabo urwaye moto yambaye ingofero irinda umutwe we ariko idafite ikirahuri, mu mahembe y'iyi moto hari indi ngofero akaba ari kuyitwara mu muhanda wamabuye. Iyi mihanda igaragara mu bice bimwe na bimwe.